Aha nii kwa muganga, umu nurse wambaye agatamba k'umuhondo, yambaye agapfukamunwa, imbere harimo ibikoresho arimo kureba uko biri kubara, uko biri gukorwa ategereje ibisubizo.

Uyu ni umwana w'umuhungu wambaye ishati y'ubururu n'ikabutura y'umukara, arimo arafungura robine agiye gukaraba, ategereje ko amazi asohoka muri yo robine.

Uyu ni umukobwa ufite injerekani iteretse mu mabase, arimo kuvoma yicaye hasi asutamye, yambaye ijipo y'umukara n'akantu ko hejuru ka pink. Yicaye imbere y'urugo.

Ni umuyeshuri uri mu kigo, wambaye uniform y'umweru n'amakabutura y'umukara, undi urimo wambaye umupira w'umutuku, bafite udupapuro mu ntoki.

Ni umugabo n'umugore baje kuvoma amazi, undi muntu ari kuri robine ye, afite ijerekani, hejuru yabo hariho umukobwa wambaye ijire y'akazi, haruguru yabo harimo umurima munini cyane.

Abanyeshuri batandatu harimo abahungu babiri n'abakobwa bane, bambaye inifomo z'ubururu n'imipira y'umukara, bafite igikombe buri muntu barimo kunywa igikoma ku ishuri.

Aba ni abana bicaye hasi, bafite abantu baje kubafasha, harimo n'abapolisi b'igihugu, bari kubaha igikoma, abana bambaye imipira ya oranje. Bicaye hasi bose.

Aba ni ababyeyi bafite abana bari ku kigo nderabuzima baje gukingiza abana, ndabona bari kubonsa bari bategereje umuganga kugira ngo azabatere urushinge.

Ni abanasi b'abagore n'abagabo, abadamu benshi n'abagabo bafite amaterefoni mu ntoki, bari kumwe n'abayobozi babo, barimo kwiga amabwiriza bagenderaho, kugira ngo bavure abarwayi.

Ni abana b'abahungu batatu bari mu mugezi bafite utujerekani baje kuvoma amazi bategereje, umwe yambaye akantu k'umuhondo hagati undi yambaye ak'umukara.

Ni mu kigo nderabuzima aho abana barimo kubatera vakise, ku ruhande hariho abandi bana, n'undi wicaye urimo kureba amafishe y'abo bana.

Ubwana bw'ubunyeshuri bwambaye inifomu za kaki ubuhungu butanu n'agakobwa kamwe, baje kuvoma kuri robine, umwe ari gukaraba abandi barahagaze bari guseka, bafite indobo baje kuvomamo z'umuhondo n'akajerekani.

Ikigo nderabuzima, aho abaganga bari kumwe, n'ababyeyi bazanye abana, baje kubatera inshinge, uru twita, inkingo, zikingira, abana, uburwayi.

Aha ni kwa muganga, umubyeyi wazanye umwana kumukingira urushinge, ari kumwe na muganga, muganga ategereje ko urushinge rwinjira mu mwana.

Aba ni ababyeyi bafite abana babo bambaye imyenda y'imyeru n'umuhondo, bari kumwe n'abagabo baje kubafasha kubahereza intungamubiri barimo kubitaho.

Aba ni ababyeyi batatu bari kwa muganga baje kwivuza bari kumwe n'umuganga, arimo arabapima umuvuduko w'amaraso, bategereje ibisubizo bari ku murongo.

Umuganga uri kumwe n'ababyeyi batatu arimo kubapima umuvuduko w'amararaso, babiri bategereje ku ruhande n'umwe bari gufata, umuganga yambaye agatambara k'umukara mu mutwe.

Uyu ni umwana w'umuhungu w'umunyeshuri uri kuvoma amazi mu gikombe kuri robine ituruka mu kigega, amazi akoreshwa n'imvura cyane niyo ari kuvoma.

Aba ni ababyeyi benshi, harimo abagabo bakeya, ababyeyi bamwe bateruye abana bambaye utujeri tw'icyatsi kibisi, bafite ibyishimo byinshi barimo guseka.

Uyu ni umubyeyi uri kumwe n'umwana we w'umunyeshuri wambaye inifomo, ari kumukarabya intoki mbere yo kujya ku ishuri, kugira ngo ajye mu bandi bana afite isuku yuzuye.

Uyu ni umuganga uri kumwe n'umubyeyi, ari kumwe n'akana kaje kwiteresha vagisi, arimo aragatera umuti mu kanwa, urabona ko umubyeyi afite ibyishimo byinshi na muganga.

Aha ni mu bitaro, aho umuganga ari kumwe n'undi mugenzi we amuzaniye, urupapuro ari kurusoma, hirya yaho hariho umurwayi, uri kumwe n'umuganga, afite igipapuro amuhaye ari kugisoma.

Aba nia abana babiri bambaye imyenda y'umutuku, umwe yambayemo umutuku undi yambaye uwa pinki, umukobwa n'umuhungu bafite igikopu umwe mugenzi we ari gukarabya undi, ari ari guseka yishimye.

Iyi ni imodoka ya ambiranse, iri kumwe n'abantu be ku ruhande hariho abantu benshi, harimo n'umugwa barimo kwinjizamo umurwayi mu modoka ku bitaro.

Aha ni mu kigo nderabuzima aho umuntu arimo kwandika amazina ye n'urupapuro, hahagaze ababyeyi baje gukingiza abana babahetse, harimo n'abana batoya baje gufata inkingo.

Aba ni abana benshi bari kumwe n'umugabo baje kuvoma hariho rubine zibiriri, bamwe bateze kuri robine imwe abandi batezi ku ya kabiri, hari abafite indobo hari n'abandi bafite amajerekani.

Ni ababyeyi n'abakobwa baje ku ivomero ry'amazi, hariho amajerekani bategereje amazi, imbere yaho hariho uwambaye umupira w'umukara niwe uri kubavomera amazi.

Aba ni abagabo biganjemo harimo n'umudamu umwe, bamwe baricaye abandi barahagaze bari muri salle resumption y'ibitaro barimo kwifotoza.

Uyu ni umunyeshuri uri ku rukarabiro rwabugenewe, hasi hariho agasahani arimo gukarabiramo, na kandagira ukarabe, umunyeshuri wambaye inifomu y'amabara y'umuhondo, n'ijipo ya shokora hasi.

Aba ni abagabo b'abayobozi bari mu nama muri biro y'akazi, bari mu nama imbere yaho hariho amamashine ku meza, bicaye hamwe bayobora iyo nama.

Mu kigo nderabuzima nk'ababyeyi bazanye abana gutereshwa vax, umuganga ari kwandika amafishi, undi ari gutera abana inshinge, umubyeyi yicaye akikiye umwana we.

Ahantu muri sale yo kwa muganga, hicaye ababyeyi b'abagore n'abagabo, umuganga arimo hagati arimo kubigisha, aba amasomo y'ubuzima uko bagomba kwitwara mu buzima busanzwe bwo hanze.

Aha ni mu bitaro umuganga w'umugabo n'umugore bari kumwe n'umurwayi w'umumama ufite umubyeyi umwana barimo kumutera urushinge, umubyeyi yicaye ku ruhande arimo arareba uburyo bamuvurira umwana.

Uyu ni umubyeyi uri kumwe n'umwana wiwe, barimo kuvoma ku mugezi, umwana afite akabuni ke n'umubyeyi afite ibuni rye nini bategereje ko amazi yuzura.

Aba ni abana bane bafite utujerikani baje kuvoma, iruhande rwabo imbere yaho hariho umukobwa urimo kubavomera, haruguru yaho hariho imodoka y'uwo mukobwa abana bategereje amazi.

Uyu ni umwana w'umukobwa ufite ijerekani uri mu mugezi arimo kuvoma amazi, ategereje ko amazi yuzura injerekani afite kugirango atahe.

Ni abaganga benshi bambaye imyenda yabo y'akazi; amataburiya y'umweru, abandi ntayo bambaye, bambaye imikara bicamo barica abandi bahagaze bakuzi

Uyu ni muganga uri kumwe n'umubyeyi n'umwana we, arimo amufata umuriro, amwereka uko ahagaze, arimo aramwereka umuriro uko ungana.

Abagabo benshi bari kumwe n'abadamu babiri bahagaze barimo kwifotoza, bamwe bamwambaye imyenda y'umukara, uwundi ku ruhande yambaye umupira w'umweru barikuha anvirope mu ntoki.

Iki ni ikigo cy'ibitaro gishyashya, ni ibitaro byuzuye hanze hariho ibyapa bibiri biha abantu kaze na karibu, ko ibitaro byuzuye.

Uyu ni umugabo wambaye agapira k'icyatsi, arimo kurira, afite ibyo arimo kureba ku ruhande rwe n'amarira menshi cyane.

Ni bagabo bari gutera indabyo bari kumwe n'abazungu, abazungu baje gusura indabyo abirabura bari gutera, ku ruhande rwaho hariho abandi bahagaze barimo kwifotoza.

Umu damu uri mu iduka rye ry'ubucuruzi butike, yambaye n'ijiri y'ubucuruzi ya mobile mane, umugore w'igikara urimo guseka yambayemo akantu k'ubururu.

Uyu ni umugabo wambaye umupira w'umutuku, wambaye ikabutura y'ubururu, bamushyizeho amafoto ane yambaye amapingu, yicaye hasi, inyuma ye hariho abantu bahagaze, benshi cyane bamushungereye.

Aba ni abaganga babiri bafite umwana w'imbere yabo bari kumusuzuma mu kanwa, bareba uko amenyo y'iwe ameze, umwana yambaye agapfukamunwa n'abaganga bambaye udupfukamunwa.

Aba n'abana b'abanyeshuri bambaye inifomo, buri mwana afite agakombe ke n'uburoso bw'amenyo bari koza amenyo, kuko nibyo babatoza ku ishuri gukunda isuku.

Ni umugabo wambaye agapira k'umweru, arimo guseka afite akadodo mu menyo yumva uko amenyo ye ahagaze, afite amenyo meza y'umweru cyane ubona ko nta kibazo afite.

Umukobwa wambaye akantu ku mweru mu mutwe n'agasengeri ku mweru, arimo kwireba mu ndorerwamo, arimo koza amenyo akoresheje uburoso bw'ubururu, arimo kwiborosa.

Ni umugabo, wambaye umupira w'umweru, arimo kwireba mu ndorerwamo imbere ye, afite akadodo k'umweru, agashize mu menyo, arimo kumva uko amenenyo ameze.

Aho abaganga bari kumwe n'umwana, bamwasamura mu kanwa bareba uko amenyo yiwe ameze, umwana yicaye. Imbere hari impapuro n'ikaramu.

Ni umusore uri mu bitaro aryamye ku ntebe yabugenewe y'amenyo, bari kumwasamura akanwa, barimo kumukura amenyo, iruhande rwe hariho umuganga uri gukura iryinyo.

Abo ni abaganga bari kumwe n'abarwayi bari ku mirongo, baje kwipimisha virusi itera Sida, buri muntu wese hari agapapuro afite mu ntoki bamuhaye bategereje kugira ngo babasuzume.

Umugabo wambaye robe de nuit y'umukara ari mu nzu iwe ahagaze ari kwireba mu ndorerwamo afite agakirida mu menyo arimo gukuramo imyanda yafashe mu menyo.

Mu bitaro umuganga uri kumwe n'umurwayi w'amenyo umwana uryamye hasi, muganga afite ibyuma bibiri, kimwe ari kugikurisha amenyo ikinda agifatishije umunwa.

Aha ni ku bitaro kwa muganga aho muganga ari kumwe n'umurwayi aryamye ku gatanda kabugenewe k'amenyo, arimo kureba uko amenyo ameze, umurwayi afite ibyishimo byinshi arimo guseka.

Aha ni mu cyumba cyo kwa muganga, harimo ibikoresho by'abarwayi, harimo intebe, harimo laptop, harimo televiziyo n'ibikoresho bindi byo kwa muganga kuruhande.

Uyu ni umuganga ari kumwe n'umurwayi, arimo kumuvura amenyo, ku ruhande rwe hariho imiti, yambaye n'amaga by'uburinzi bwo kugira ngo amukorere amenyo neza bisukuye.

Umusaza wicaye imbere y'umuryango, ari kumwe n'abuzukuru be arimo kubagaburira, bafite za biswi mu ntoki n'agakombe kameze nk'akajerekani karimo amata, bari gusangira.

Umusaza w'umugabo n'umukecuru, umugabo w'umuzungu, umukecuru w'umwirabura, bambaye udupira tw'umutuku ak'umugore karimo uturongo tw'umukara, bafite ikinini ari kwerekera umugore.

Uyu ni umuganga kumwe n'umugabo w'umusaza, ari kumupima umuvuduko w'amaraso, ku ruhande rwe hariho itara ryabugenewe n'akameza riteretseho, umuganga yambaye imyenda y'ubururu.

Abakecuru babiri bari muri siporo barambuye amaboko, y'ukuboko kw'iburyo n'andi y'ibumoso bari kureba iburyo bwabo bari guseka umwe ari imbere yambaye bande ku kuboko y'umweru.

Aba ni abadamu benshi barimo bagera muri batandatu n'abagabo bari mu murima bafite amasuka, abandi bafite ibyatsi mu ntoki, abandi bafite amatelefone mu ntoki, ndabona bari mu munezero mwinshi basoje umubyizi w'umunsi.

Uyu ni umubyeyi w'umugabo uri kumwe n'umwana we bafite igitabo baririmo gusoma, yishimye kuru ruhande rwe buri wese afite agatase ke n'unda ake.

Umubyeyi n'umwana we bari kugenda mu muhanda, umubyeyi ntazi kugenda neza afite akagare ari kugenderaho, umukobwa we amuherekeje bari kugenda gake gake.

Uyu ni umubyeyi w'umugabo, ari kumwe n'umukobwa bari mu bitaro, aramuherekeje, amugendesha gake gake kugira ngo arebe ko arambura amaguru.

Uyu ni umukecuru wicaye ibi hepfo y'inzu ye, imbere ye hariho inkono atetse ategereje ukwi bimeze, ategereje ko bishya.

Abadamu babiri umwe afite imvi z'umweru undi afite imisatsi myiza watoboye amatwi yambaye uduherena, amuramuruje amaboko amukoresha imyitozo amureba mu maso.

Umusaza n'umukecuru bicaye mu nzu muri salo bafite imiti, umukecuru ari kwereka umusaza uko imiti yanditse, umusaza nawe afite imiti mu ntoki agiye kuyinywa.

Aho ni kwa muganga, muganga ari kumwe n'umurwayi amukoresha imyitozo siporo, afite akantu mu kiganza amufata mu gituza anamufata no mu kuboko hegereye ahantu afashe akantu, akurambura amukoresha imyitozo.

Aha ni mu bitaro, umuganga ari kumwe n'umurwayi w'umugabo, umuganga ni umudamu arimo kuganiriza umurwayi, umuganga amubwira ngo akomere arimo kumusekera.

Uyu ni umuryango w'umugore n'umugabo, bahagaze bari kwifotoza, umugore yambaye amarinete n'agakoti k'ubururu n'umugabo wambaye agakoti ka oranje n'agapira k'icyatsi.

Umuryango w'abana babiri n'umukecuru, umuhungu n'umukobwa, umuhungu afite agasahani kariho imigati umukobwa afite utumamiyo tubiri ari kwarura imboga byatsi.

Ni umuganga w'umugore uri kumwe n'umusaza amugendesha gake gakeya, amukoresha imyitozo kugira ngo amere neza mu mubiri arambure amagufwa ye.

Ni umubyeyi urimo kuganira n'umwana we bicaye ahantu, inyuma yabo hahagaze abahungu benshi bagera muri batandatu, umwana n'umubyeyi barimo kuganira ahantu bicaye.

Uyu ni umukecuru wambaye igitambaro cy'umutuku, nta jisho afite, afiteho igipfuku ku jisho rimwe, irindi ni rizima, afite amenyo makeya mu kanwa ke.

Muri sale abakobwa benshi b'abanyeshuri bari mu nama, bambaye imyenda y'imyeru n'abandi batatu bambaye irimo iy'umukara, umwe muri bo yambaye ingofero y'umukara, hari n'undi utangira wa kabiri yambaye ishati y'icyatsi kibisi.

Abaganga babiri bambaye amataburiya y'umweru, n'undi wambaye ijire y'icyatsi wicaye, n'undi hirya wambaye ijire y'icyatsi ahagaze, bari kumwe n'umugwayi aryamye hasi.

Ni abarwayi baje ku kigo nderabuzima hari biganjemo abadamu bicaye bari ku mirongo bategereje ubufasha ngo babafashe ndetse bose barimo kurebera uruhande rumwe.

Aha ni mu bitaro ni umuganga ari kumwe n'umurwayi ari kumutera urushinge, kuuhande rw'umurwayi hariho undi muntu umuri inyuma umuhagazeho.

Aha ni ku bitaro kuri Centre de Sante ikigo nderabuzima, aho ababyeyi bari kumwe n'abana baje kubakingiza bari ku murongo bategereje bagenzi babo, bategereje n'umuganga ko abahereza inkingo.

N'izi porogiresi farumasi, irimo imiti y'abarwayi imbere yaho hariho intebe ya pulasitiki, yo kwicaraho umurwayi.

Ibi ni ibitaro bya Ruhengeri hariho icyapa cyanditseho ibitaro bya Ruhengeri, Ruhengeri hospital hegereye umuhanda wa kaburimbo, harimo gucamo abantu b'abanyamaguru.

Aha ni muri sale, harimo ababyeyi n'abasore, bategereje abantu baza kubafasha bashaka serivisi runaka babategereje.

Iki ni ikigo nderabuzima cyubatse neza, gifite amabati y'ubururu n'amarangi y'umweru, imbere yaho handitseho icyapa ikigo nderabuzima cya Kanyinya cy'amabara y'umutuku, imbere yaho hariho idarapo y'igihugu.

Aha ni kwa muganga, umuganga ari kumwe n'umurwayi, ari kumupima umuvuduko w'amaraso, ku ruhande rwe hari umuganga wicaye ari kwakira undi murwayi, inyuma yaho hariho undi muganga uhagaze, ukeneye ko bamuha servisi.

Umuganga uri muri sale kwa muganga, wambaye agapfukamunwa, yambaye n'umwenda wabugenewe wo ku bitaro n'umukobwa wambaye ishati y'umweru, wambaye n'amaburuteri, bari kumupima umuvuduko w'amaraso.

Ibi ni imitaro bya Ruhengeri hejuru handitseho icyapa cyanditseho Ruhengeri, Ruhengeri hospital, byegera umuhanda wa kaburimbo harimo gucamo abantu benshi b'abanyamaguru, higanjemo n'abikoreye bagiye mu isoko.

Aha ni mu kigo cy'ishuri hariho ibyicungo by'abana b'abanyeshuri, harimo ibyubakishije amabara y'ubururu n'ayandi y'icyatsi byubakishije ikorotiri y'amatafari ahiye.

Uyu ni umuganga uri mu bitaro ariko ufite agatanda ari gushyiraho ishuka, arimo gusasa, imbere ye hariho ibindi bikoresho, yambaye itaburiya irimo isuku yo kwa muganga.

Iri ni ivuriro Kinigi, n'umudamu uhagaze ahetse umwana afite umuntu ategereje hanze y'igipangu.

Aha ni mu kigo, harimo inzu nini, ku ruhande hariho akandi kazu kameze nk'agasare, hanze hariho abagabo bahagaze mu muhanda bane, n'imodoka iparitse imbere yabo.

Iyi ni inzu y'ibitaro n'icyumba cy'ibitaro kirimo intebe aho abagwayi bicara bategererereje kuhande hariho ururabyo rurimo ibyatsi by'icyatsi kibisi.

Iyi ni materinete inzu y'ababyeyi aho abaganga bicaye hanze n'undi uhagaze mu muryango bategereje ababyeyi baza kwibaruka abana.

Ni abaganga bari kwa muganga, bari muri sale harimo umurwayi uryamye ku gatanda, abaganga ni batatu, umwe ari inyuma y'undi, undi ari ku ruhande, arimo kureba uko avura uwo murwayi.

Ahan ni mu bitaro, sare irimo ibikoresho byo kwa muganga, harimo amamashini, harimo televiziyo hejuru, hejuru hamanitse isaha, ku ruhande hejuru hariho ibishushanyo.

Aha ni mu bitaro bya Nyirinkwaya La Croix de Sud, ku gipangu hanze. Aha imbere harimo imodoka ziparitse n'akaduka k'ubucuruzi.

Aha ni kwa muganga ni nka sale y'abarwayi. Hari udutanda twabo turiho amashuka y'umweru n'ubururu, kuruhande hariho amarido y'umweru n'ibikoresho byayo hasi.

Aha ni kuri pharmacy GoodLife, aho batangira imiti kuruhande hariho iduka ry'ubucuruzi hari imyenda y'abagabo no kuri uryo ruhande rwaho hariho imodoka zibiri.

Ni inzu iri mu kibanza kinini, kigaragara ko ari mu bitaro, hariho ururabo imbere, imbere yaho hariho ikiriza kijyana amazi kuri iyo nzu iyo iri imbere, hari n'izindi zibiri.

Aha ni kwa muganga hariho umuntu wicaye wavunitse wambaye bande mu kuguru barimo kumuvura, hirya y'aho hariho undi na we wicaye utegereje ko bamuvura.

Ni umuganga uri kumwe n'umurwayi ari kumuvura, umurwayi aryamye ku buriri yubitse inda, umuganga ari kumurebera muri machine areba uko ubuzima bwe buhagaze.

Iki ni ikirangantego cya Croix rouge. Croix rouge yanditsemo n'amagambo y'umukara n'umusaraba w'umutuku, mo imbere n'umweru, kimanitse ahantu no hepfo hari amagambo.

Uyu ni umusore wambaye imyenda y'umukara apfukamye hasi arambuye amaboko imbere, ari mu myitozo ngororamubiri aryamye hasi ku gatapi.

Umugabo uri muri siporo yambaye umupira w'icyatsi kibisi n'akantu yambaye ku kuboko k'ubururu, ari kwimena amazi mu maso, amerewe neza mu maso kabisi.

Aka ni akagare ko kwa muganga bajya bateruramo indembe zidashobora kugenda. Akagare kakaba karimo amabara abiri, ibara ry'umukara n'ibara ry'ubururu, gafite n'amapine hasi.

Umusore uri mu myitozo ngororamubiri ndetse afite agacupa k'umweru hasi haruguru hari umukara, arimo kuvoma amazi anywa, afite agasengeri ni ko yambaye k'icyatsi kibisi.

Uyu ni umukobwa uri gukora imyitozo ngororamubiri, iruhande rwe afite agacupa k'amazi, yambaye inkweto z'umweru, yambaye imyenda y'imikara n'imyenda ya siporo.

Uyu ni umukobwa uvuye muri siporo, wambaye isengeri ya siporo, yambaye n'aka esume mu ijosi k'umweru, arimo kunywa amazi mu kagurude k'umweru gafite n'akabara k'ubururu.

Umwana wicaye hasi uri mu myitozo yambaye utwenda twa pinki, afashe amaboko ayashyize ku kuguru, ari kurambura amaboko ye, yambaye impeta mu kuboko.

Aha ni mu bitaro abaganga bafashe amakaye n'amakaramu, barimo kwiga, barimo kwandika, imbere yabo harimo umuganga mugenzi wabo w'umugabo arimo arabigisha.

Uyu ni umusiporutifu, wambaye umupira w'icyatsi hariho agashushanyo tubiri tw'umweru, hasi yambaye umukara afite ballon yanditseho kane n'akantuka k'akarongo hasi.

Umuntu ufite ijanga y'amazi y'ikirahure arimo gusuka mu kindi kirahure iteretse hasi, amazi meza afite isuku yabugenewe.

Imbuto ziri kudusahane hasi, harimo amagi n'imineke, ku ruhande rwaho hariho ibikoresho umuntu akoresha ari muri siporo n'utumetero hasi twabugenewe.

Uyu ni umukobwa uri mu myitozo ngororamubiri, aryamye hasi kuri sima, kuruhande rwe hariho indabyo zitatu, ari mu myitozo.

Uyu ni umukinnyi uri kumwe n'umutoza w'umuganga, umukinnyi yaryamye hasi arimo ku mukanda, amushyizeho ukuguru ku rutugu, yambaye amasogisi y'umweru n'umupira w'umweru, arimo ku muvura.

Uyu ni umusore wicaye avuye muri siporo, yambaye ekuteri mu matwi, afite akagurude ari kunywa amazi yambaye n'aka esuwime mu ijosi, yambaye n'inkweto za supuresi yicaye ahantu arimo kuruhuka.

Uyu ni umusore uri mu myitozo ngororamubiri, yambaye imyenda ya siporo y'imikara apfukamye arimo arakora siporo.

Ni umurwayi wicaye ku gitanda ategereje uko ameze, kwa muganga bamuhaye agatambaro ari gukandisha arwaye mu ivi, bamuhaye iminota yo gutegereza kugira ngo ababwire uko ameze.

Ni umujene wambaye agaswime k'umweru mu ijosi n'agapira k'umukara, afite icupa ry'amazi arimo kunywa, arimo kuruhuka asoje imyitozo ye.

Uyu ni umurwayi uri kwa muganga ari kumwe n'umuganga we, afite imvune mu ivi arimo kumupima mu ivi ngo arebe uko ameze, hari akantu yamushushanyijeho k'umweru gafite amabara atukura.

Ibi ni ibiganza bibiri by'umuntu, kimwe cyubitse ikindi kirambuye. Ikirambuye yambayemo ga y'umukara asigamo rumwe rwambaye na we wo kuruhande na we cyubitse asigamo rumwe rupfutse.

Uyu ni umukobwa uri mu myitozo ibyo twita siporo, yambaye akantu mu kuboko ariyo telefone, poshete ya telefone n'isaha mu kundi kuboko, yambaye ekuteri, arimo asubiza amaboko inyuma ayagorora.

Uyu ni ni umukobwa uri bitaro wavunitse, bamushizeho bande mu ivi, yambaye umupira wa oranje, anakozeho ku rutoki rw'ahantu yababaye.

Umukobwa wicaye hasi uri muri salo ari mu myitozo yambaye akantu ka kaki na kora y'umukara hasi, yicaye arambuwe ukuguru hasi agufatishije ukuboko muri salo.

Umugabo wicaye hasi muri kaburimbo, urangije gukora imyitozo yambaye imyenda y'imikara, yicaye hasi afite icupa ry'amazi n'agakoma mu kuboko k'icyatsi.

Abarwayi bari mu bitaro baryamye hasi, umugabo babiri bari kumwe n'umurwayi w'umugabo uryamye hasi, hirya ku ruhande hariho undi mukobwa umurwayi bari kumwe na we amufashe ku mugongo.

Umugabo uri muri sale yabo ya siporo, yambaye umupira wa kaki n'ikabutura y'umukara n'inkweto za siporo zabugenewe, aryamye hasi arimo ku ruhuka ndetse n'akagozi kari mu kuguru.

Uyu ni umukinnyi, yicaye hasi arimo kuruhuka, afite barafu mu ntoki ayishize mu ivi arimo kwikanda.

Aba ni abasore bane bari kumwe n'undi wa gatanu, aryamye hasi bamuzirika amaguru no mu nda, iruhande rwaho hariho intebe n'imeza n'abandi bantu babiri, no ku ruhande hariho umusore.

Umuntu ufite ijaga y'ikirahure harimo amazi ari gusuka mu karahuri, amazi arasa n'ubururu, meza asukuye.

Umukobwa uri muri sale ya siporo aryamye hasi, yambaye imyenda ya siporo y'umukara ateruye ukuguru agushyize hejuru mu gatuza, agufatishije amaboko.

Aba ni abagabo batatu bari ku bitaro kuri Faisal hospital umwe ahagaze hejuru undi ari hasi ari kumusingiriza umugozi n'undi inyuma yabo.

Ni kwa muganga abaganga bari muri salle bari kumwe n'abarwayi, udutanda twa'abarwayi turiho abarwayi n'umurwaza wicaye n'undi muganga uhagaze wambaye ibintu by'umweru w'umukobwa arimo kuberekera kuri machine.

Kwa muganga aho umuganga ari kumwe n'umurwayi yicaye ku gatebe, arambura ukuboko amu gukoresha imyitozo ngororamubiri ari yo siporo, afite akantu mu kiganza apfumbase.

Uyu ni umuganga uri muri salle ye ari kumwe n'ibikoresho byabugenewe byo kwa muganga, imbere ye hariho imashini yayicanye arimo arareba ibyo yiga kwa muganga.

Ni umurwayi uri mu bitaro warwaye ukuboko, afiteho bande mu kuboko ukundi kuri ho hejuru. Yicaye ategereje uko aza kuba ameze atange ibisubizo.

Ni umukinnyi wavunitse uryamye ku gatanda, muganga arimo kumuvura mu mfundiko, ku ruhande rwe hariho undi muntu uhagaze urimo kumuganiriza amubaza uko ameze.

Uyu ni umusore, umuhungu wambaye imyenda ya siporo, ahagaze afite akagurude k'ubururu kariho umufuniko w'umukara, arimo kunywa amazi, ategereje inyota yari imumereye nabi.

Ni umukobwa wicaye muri saro hasi ku gatapi, ari mu myitozo yambaye agasengeri k'umukara n'aga kora ke k'umukara imbere hari imashini, mashine ya laputopu.

Abantu babiri bari kumwe, umwe afite uburoso bw'amenyo n'undi afite umuti w'amenyo ari kumukandira ku ubwo buroso bw'iwe bw'amenyo agiye kuborosa amenyo y'iwe.

Ni icupa ry'icyatsi kibisi, riteretse ahantu heza h'umweruru, ry'icyatsi ririmo umuti w'umuravumba, kuri iryo cupa hashushanyijeho uturabyo twinshi, n'akamwe k'umweru.

Uru ni urubuto rwa oranje rwakozwemo ji ya oranje mu gasahani keza k'umweru, kari hejuru ku meza n'agatapi kari munsi y'ako gasahani.

Iki ni igitunguru gisatuye, iruhande rwaho hari ikindi kibumbye, iruhande rwaho hariho indimu zibiri zisatuye, no ku ruhande rwaho hariho agacupa, hejuru haho handitseho ngo:"Baho neza TV."